Umuhanda munini cyane urimo abantu bakora siporo ku magare, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umukara. Inyuma yabo hari imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara. Imbere yabo hari umupolisi utambitse akaboko, wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane ,bicaye hasi bambaye imyenda ifite amabara gatandukanye. Amwe asa n'umukara, ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'ubururu. Imbere y'abo bantu, hari umupolisi wambaye imyenda isa n'umukara afashe mikoro.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bicaye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara, hirya hari urutoki rwiza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bicara ku mabuye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, ayandi asa n'umutuku, hasi yabo bambaye inkweto zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, ayandi asa n'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'umukara ayandi asa n'icyatsi. Imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye imyenda isa n'umweru, hirya hari abagabo bane bicaye ku ntebe bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu ayandi asa n'umweru ayandi asa n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bamwe basutamye, abandi barahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu n'asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'umweru. Inyuma yabo hari igiti, hirya hari inzu nziza cyane.

Irujya n'uruza rw'abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, ayandi asa n'umuhondo, ayasa n'umweru, asa n'umukara, ayandi asa n'umutuku, imbere y'abo bantu hari umupolisi wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, ayandi asa n'umuhondo, mu ntoki ze afashe mikoro.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bicaye hasi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo, ayandi asa n'umutu, ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'icyatsi. Imbere yabo hari umukecu uhicaye ufite imvi.

Ababyinnyi benshi babyina imbyino bita inyarwanda. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku. Mu mutwe wabo bambaye ingofero isa na kaki.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda babyina neza cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, ayandi asa n'umweru, mu ntoki zabo bafashe amacumu babyinaga.

Umucaca mwiza cyane，urambuyemo umukeka ufite amabara agiye gatandukanye， amwe asa n'umweru，andi asa n'umukara，ukaba uzinguye， uri iruhande rumwe， abantu baraza bakawicaraho.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, ayandi asa n'ubururu, ayandi asa n'umukara, ayandi asa n'umutuku. Harimo umugabo wasimbukaga, hirya hari ibiti byinshi cyane.

Ababyinnyi babyina neza cyane, bambaye imikenyero ifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umuhondo ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'umukara ayandi asa n'icyatsi, mu mutwe wabo hari ibiseke babyina bafite.

Urujya n'uruza rw'abantu bareba umuntu wakamaga afashe ku biti. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo. Hirya hari insina zimeze neza cyane.

Ababyinnyi babyina neza bavuza ingoma, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo asa n'icyatsi andi asa n'umuhodo, andi asa n'ubururu. Inyuma yabo hari inzu isakaje ibyatsi, hirya hari indi nzu isakaje nayo ibyatsi.

Igihingwa bita uburo bashiramo ifumbire, kuko gitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bawujyana ku isoko, babaha amafaranga, bawubeteshamo ifu y'igikoma.

Ikibuga kinini kirimo abantu babyina bambaye imyenda yitwa imikenyerero, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, ayandi asa n'ubururu, harimo umwe usimbuka ashinze icumu, hirya hari ibyatsi bisa n'icyatsi.

Ababyinnyi babyina neza cyane bambaye imyenda bita imikenyero, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'umutuku. Imbere yabo hari ingoma bavuza abandi babyina.

Ababyinnyi babyina neza cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umukara, ayandi asa n'ubururu, iruhande rwabo hari umugore wambaye imyenda isa n'umuhondo, hirya hakaba umutaka ufite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'umweru.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara atandukanye asa na kaki,, hanze yiyo nzu hari umuntu ugenda wambaye amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, hasi yambaye inkweto zifite amabara atandukanye, kandi asa n'umweru andi asa n'umukara.

Inzu ishaje amategura , yubakishije amatafari ahiye. Hirya y'iyo nzu hari ibigori bimeze neza cyane, babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi babijyana ku isoko, bitanga amafaranga.

Inzu nini basengeramo, isakaje amabati asa n'umutuku, hanze yaho hari abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, impande yabo bantu hari imodoka ihaparitse.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku, imbere hari amamodoka abiri ahaparitse, hanze hari ubusitani bwiza cyane.

Umurima munini bahinzemo igihingwa bita karoti, bashiramo ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo zeze bazijyana ku isoko babaha amafaranga basigaza izo barya, hirya yazo har'inzu yubatswe mu buryo bugezweho.

Inzu nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati afite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo, andi asa n'ubururu, hirya yaho hari inzu yubatswe mu buryo bugezweho bita etage igeretse kane.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bita etaje, isakaje amabati asa n’ubururu. Imbere yayo hari abanyeshuri bambaye imyenda ifite amabara atandukanye; amwe asa n’umweru, andi asa na kaki. Hirya hari igiti.

Umuhanda munini cyane urimo abantu benshi cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye: amwe asa n'ubururu, ayandi asa n'umuhondo, ayandi asa n'umutuku, impande yabo bantu hari imodoka impande y'imodoka hakaba hari umuntu ufite ikidomoru, hirya y'aho hakaba hari imodoka isa n'ubururu.

Inzu nini basengeramo ifite amabara atandukanye. h Habamo asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku. Imbere yaho hari abantu benshi cyane bambaye amabara atandukanye harimo asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara.

Inzu nziza basengeramo ifiti isakaje amabati asa n'ubururu, hanze y'ayo hari abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, andi asa n'umukara, andi asa n'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru andi asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'icyatsi. Imbere yabo hari umusaza ufashe agakoni uvugira muri mikoro. Yambaye neza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye benshi cyane. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'icyatsi, andi asa n'ubururu. Imbere yabo hari intebe zifite ibara risa n'icyatsi, hirya hari umuntu urambuye akaboko.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'icyatsi. Inyuma y'abo bantu hari ibiti bita urubingo, imbere yabo hari umuntu uhahagaze.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye hasi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, imbere y'abo bantu hari umugabo wambaye ikote risa n'umukara, afashe mikoro.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, hamwe hasa n'umuhondo, ahandi hasa n'umweru, hasa n'icyatsi, hasa n'umutuku, imbere yabo hari umuntu wahagaze wambaye imyenda ifite amabara atandukanye hamwe asa n'umukara, ntihasa n'umuhondo hirya hari inzu nziza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, ayandi asa n'ubururu, ayandi asa n'umutuku. Bafashe impapuro mu ntoki. Hirya yabo hari inzu, hakaba hari igiti cyicayeho umuntu.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bicaye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara. Imbere y'abo bantu hari umugabo uhahagaze ufashe mikoro, hirya hari abana bicaye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bamwe bicaye abandi bahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye imwe isa n'umweru, indi isa n'umutuku, indi isa n'umukara, indi isa n'icyatsi. Imbere yabo bantu hari umugore uhahagaze.

Imodoka nini cyane ifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru, andi asa n'icyatsi. Impande yayo hari abantu batega bagiye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara.

Umuhanda munini cyane urimo amagare menshi cyane afite imisego ifite amabara atandukanye, harimo asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo, andi asa n'ubururu, impande zayo magare hari abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, asa n'umweru, andi asa n'umukara.

Umuhanda munini cyane wegeranye na gare, hariho abanyonzi benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'umuhondo. Imbere hirya hari inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho.

Umuhanda munini cyane ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamoto atwaye abagenzi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru. Imbere yabo hari imodoka bita tagisi ifite amabara atandukanye , amwe asa n'icyatsi, Andi asa n'umukara andi asa n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, bagenda bagiye gutega bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara. Impande yaho hantu hari imodoka nini cyane, ifite amabara atandukanye cyane amwe asa n'ubururu, andi asa n'umweru.

Umuhanda munini cyane, urimo umumotari uhetse umugenzi wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, asa n'umutuku, andi asa n'umukara, ku mutwe wabo bambaye kasike. Hirya hari ibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umweru , andi asa n'ubururu, andi asa n'umukara. Impande yabo hari imodoka zitwara abagenzi zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru andi asa n'umukara.

Umuhanda munini cyane urimo abantu benshi cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, asa n'umweru n'asa n'umutuku, kandi asa n'ubururu, asa n'umuhondo, andi asa n'umukara, imbere yabo hari imodoka nini cyane ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara n'asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku.

Umuhanda munini cyane urimo amamodoka atandukanye, afite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'umweruru, inyuma y'iyo modoka hari imodoka ifite ibara risa n'ubururu, hirya hari ibiti byinshi cyane.

Umuhanda munini cyane umeze neza, harimo imodoka nini cyane ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'ubururu, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara inyuma yayo hari imodoka ntoya, hirya hari ibiti, iyo hirya hakabaho inzu nziza cyane.

Mu muhanda munini cyane, urimo abantu bicaye ku magare bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'umukara, hirya hari umuntu ufashe amvelope, hejuru yabo hari umukobwa uri kucyapa ureba muri terefone.

Umuhanda munini cyane uri imbere ya gare hari ibinyabiziga byagendaga hirya hari umutaka wa MTN, hariho umuntu watambukaga mo imbere hari inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara asa n'umukara n'ay'umweru.

Umuhanda munini cyane urimo amagare menshi cyane hariho abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'umweru. Hirya hari inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho.

Ku muhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara. Inyuma y'iyo modoka hari abamotari babiri.

Umuhanda munini urimo imodoka zitandukanye harimo imodoka ifite amabara atandukanye asa n'umuhondo, ayandi n'umukara, hirya yabo hari imodoka zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru andi asa n'umukara.

Ikiyaga kinini cyane kigendamo imeri ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'ubururu. Mo imbere harimo abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, kandi asa n'umukara.

Umuhanda munini urimo abantu batandukanye, harimo abamotari bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, n'asa n'umutuku, mu mutwe wa bo bambaye casike zisa n'umweru, hirya hari inzu yubatswe muburyo bugezweho.

Umuhanda munini urimo imodoka zitandukanye zipakira imizigo. Harimo dayihanso n'igikamyo kinini. Imbere yazo, hari abantu bahagaze . Hirya hari inzu nziza yubatse neza, hakaba hari ibiti byinshi cyane.

Umuhanda munini urimo amamodoka menshi, afite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, uruhande rwabo hari abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweruru.

Umuhanda munini cyane ugendamo ibinyabiziga harimo tagisi itwara abagenzi, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru andi asa n'umuhondo, hirya hari inzu yubatswe mu uburyo bugezweho ifite amabara asa n'icyatsi n'asa n'umuhondo.

Umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo moto yitwa lifani, inyuma hari imodoka isa n'umutuku. Hari inzu ifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umweru, hari n'abantu benshi.

Umuhanda munini cyane urimo amamoto menshi cyane, harimo abatwaye bambaye amakasike afite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'icyatsi, hirya hari inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho.

Urujya n'uruza rw'imodoka nyinshi cyane, zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru ayandi asa n'umuhondo ayandi asa n'umukara, imbere y'izo modoka hari inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho igeretse kabiri, ifite amabara atandukanye arimo asa n'umuhondo ayandi asa n'ubururu, isakaje amabati asa n'ubururu inyuma y'iyo nzu, hari umusozi munini cyane.

Gare nini cyane, irimo imodoka nini cyane, zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, ayandi asa n'ubururu, ayandi asa n'umukara. Hagati yazo hari abantu batatu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku. Imbere hari abantu benshi cyane.

Ikibuga kinini cyiza cyne, kirimo abakinnyi bakina umupira, bambaye imyenda ifite amabara gatandukanye, amwe asa n'umuhondo andi asa n'ubururu andi asa n'umweru, ku mutwe wabo basutse, ibisuko bita direde.

Ikibuga kinini cyane cyubatse mu buryo bugezweho. Harimo abakinnyi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imwe asa n'umuhondo, indi asa n'icyatsi indi isa n'umweru. Harimo umwe wahinnye akaguru ashaka gutera balo. Inyuma yabo hari abafana benshi cyane.

Umuhanda munini cyane urimo abantu bakora siporo ku magare, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, hamwe asa ubururu ayandi asa n'umuhondo ayandi asa n'umukara , ku mutwe wabo bambaye ingofero hirya yabo hari ibiti byasa n'umuhondo.

Ikibuga kinini cyane kirimo abantu benshi cyane. Harimo abakinnyi babiri baramukanya bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umukara. Ku mutwe wabo bambaye ingofero zisa n'umweru, hirya yabo hari abantu baje kubafana.

Ikibuga kinini cyane kirimo abakobwa batatu bakina basikete, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'icyatsi, andi asa n'ubururu, hirya hicaye abantu benshi cyane baje kubafana.

Ikibuga kinini kimeze neza cyane, kirimo abakobwa babiri bakina umupira bambaye imyenda isa n'ubururu, inkweto zifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi andi asa n'umukara bafashe balo bari barikwirukanka.

Umuhanda munini cyane w'igitaka bakoreramo siporo, bagenda ku magare bambaye imyenda ifite amabara gatandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'ubururu, andi asa n'icyatsi. Hasi ku birenge bambaye inkweto zisa n'umweru, ku mutwe bambaye ingofero, inyuma yabo hari inzu.

Ikibuga kinini cyiza cyane kirimo abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara gatandukanye asa n'umweru, asa n'umuhondo, kandi asa n'umutuku, asa n'umukara. Imbere yabo hari umupolisi ufatiye amaboko inyuma, hirya hari umugabo wicaye ku gatebe gasa n'umukara.

Umuhanda munini urimo abantu benshi, bakora siporo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'umukara, ayandi asa n'icyatsi, ayandi asa n'umweru, hasi bambaye ibirenge, bakora aga siporo kuko ituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bakora siporo bambaye imyenda ifite amabara itandukanye, imwe isa n'umuhondo, indi isa n'ubururu, indi isa n'umweru, indi isa n'umutuku, ku mutwe wabo bambaye ingofero.

Abantu benshi cyane bakina umupira, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umukara, andi asa n'umweru, hasi bambaye inkweto zifite amabara atandukanye.

Umuhanda munini cyane, urimo abantu bakora siporo bakorera ku magare, bambaye imyenda itandukanye, hanyuma yaho har'imodoka iruhande hari abantu benshi cyane.

Ababyinnyi babyina neza cyane, babyina imbyino nyarwanda, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, hasi bambaye inkweto za rugabire.

Umuhanda munini cyane, urimo abantu bakora siporo ku magare, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo, andi asa n'umutuku. Imbere yabo hari intoki zimeze neza cyane, hahagaze umuntu warebaga.

Umuhanda munini urimo imicucu myinshi cyane, hagendamo imodoka isa n'umukara, impande y'iyo modoka hari abantu benshi cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'ubururu, kandi Andi asa n'umuhondo.

Ikibuga kinini cyane kirimo abakobwa beza cyane batera baro, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n' umweru, andi asa n'icyatsi. Hasi bambaye amasogisi asa n'umukara, inkweto zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru n'umweru, andi asan'umukara.

Umuhanda munini cyane urimo abantu bakora siporo bagendera kumagare. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'icyatsi, k'umutwe wabo bambaye ingofero.

Umuhanda munini cyane urimo abantu bakora siporo ku magare bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umuhondo andi asa n'ubururu, andi asa n'icyatsi. Ku mutwe bambaye ingofero zisa n'umweru. Hirya hari inzu.

Umuhanda munini urimo umwana wakoraga siporo wambaye imyenda ifite amabara atandukanyemo imwe isa n'umukarara, indi isa n'umweru. Hirya harimo imodoka ebyiri zihaparitse zifite amabara atandukanye imwe isa n'ubururu indi isa n'umutuku indi isa n'umukara.

Ikibuga kinini cyiza cyane, bakoreramo muri siporo, harimo abakobwa batatu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umukara, hirya yabo hari abandi bambaye imyenda isa n'umutuku.

Umuhanda munini cyane urimo umwana uzi gutwara neza igare cyane, yambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku, ansdi asa n'umukara, ikindi kandi umwana akora siporo neza.

umuhanda munini cyane urimo umuntu wakoraga siporo agenda ku igare, yambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru. Ku mutwe yambaye ingofero yasaga n'ubururu .

Ikibuga kinini cyane cyiza, kirimo umuhungu ukora siporo, wambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe gasaga n'umweru andi asa n'ubururu, hasi yambaye inkweto zisa n'umweru, amasogisi y'umukara, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga kinini kirimo abantu benshi cyane bakora siporo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, hirya yabo hari igiti.

Ikibuga kinini bakinamo umupira. Harimo abakinnyi benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Aba asa n'ubururu, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku andi asa n'umuhondo. Hasi bambaye inkweto zifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi andi n'umutuku.

Ikibuga kinini kirimo abakobwa bakora siporo. Umwe afashe icumu, inyuma yaho hari abagabo babiri bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara. Umwe wambaye ingofero isa n'umuhondo, abana bambaye imyenda isa n'ubururu.

Umuhanda munini cyane, urimo abantu bakora siporo bagendera ku magare, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku. Ku mutwe bambaye ingofero, iruhande hari abantu benshi cyane baza kubareba.

Ikibuga kinini kimeze neza cyane, bakoreramo siporo gifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'umukara, ayandi asa n'umweru, harimo icyapa gifite amabara asa n'umukara, yandikishije amagambo asa n'umweru, ayandi asa n'ubururu, hirya hari abantu babiri bambaye imyenda itandukanye.

Ikibuga kinini kirimo abantu benshi batandukanye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umukara, impande yabo bantu, hari amabendera afite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'ubururu, ayandi asa n'umuhondo.

Umuhanda munini cyane uriho indabo zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo andi asa n'icyatsi. Iruhande rw'izo ndabo hari inzu ifite amabara y'umutuku, hirya hakaba inzu isakaje amabati asa n'umweru, ifite amarangi atandukanye amwe asa n'umuhondo andi asa n'umukara.